Icyapa kirimo ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo y'umweru, kirimo ikirangantego cy'u Rwanda, kandi amagambo yanditse mu ibara rya oranje, iruhande rwacyo hari utuntu tumeze nk'amafurayazi.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zijya mu byerekezo bibiri bitandukanye, ibumoso ndetse n'iburyo hariho abagabo babiri b'abatekinisiye barimo barakora amashanyarazi ubona ko yuko batumbiriye mu kazi kabo.

Ni abagore n'abagabo bari mu myaka mirongo itatu cyangwa mirongo itatu n'itanu, bambaye bamwe muri bo abagabo bambaye ishati y'umweru iriho karuvati y'ubururu n'ikote, bahagaze imbere y'inzu.

Abagabo batanu bahagaze imbere y'imibyare, bari kumwe n'umupolisi wambaye yunifomo ya gipolisi, imyenda n'ingofero iriho ikirangantego cy'u Rwanda. Imbere ye hahagaze abandi bambaye amashati y'ubwoko butandukanye n'umwe wambaye umupira, wambaye ndetse ufite na rinete z'umukara.

Mu nyubako isize irangi ry'umweru, hahagazemo abantu benshi batandukanye bari mu ngeri zitandukanye, harimo abakobwa, harimo abagore, harimo abasore ndetse n'abagabo, bombi bari kureba ku ruhande rumwe rw'iburyo bwabo.

Icyapa cy'imodoka iri mu ibara ry'umweru, kiri mu murima, imbere yacyo hakaba hari umuhanda uhagazemo abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'imbere yaho hakaba hari inzu ya kadasiteri.

Umugabo uri mu myaka mirongo itatu cyangwa mirongo itata n'itanu, uri muri sitade. Hicayemo: abakobwa, abasore ndetse n'abana. Impande ye hari ibara ry'ubururu.

Abasore bari gukina umupira ndetse bari mu myaka makumyabiri n'itanu ndetse n'undi w'imyaka mirongo itatu wambaye umupira w'ubururu uriho nimero cumi n'esheshatu, imbere yaho hazitiwe n'ikibuga kirimo ibyatsi.